Abantu babiri b'igitsina gore bicaye bari kureba hirya bisa nkaho bicaye mu nama bari kureba umuntu uri kubabwira, imbere yabo hari za mudasoka, hari amakarita abaranga hari amazi yo kunywa bicaye mu ntebe nziza.

Famili inshuwarensi, iyi ngiyi ni ubwishingizi bw'umuryango wawe ku bihereranye n'indwara, amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, urugero amazu nk'imirima n'ibindi.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa n'abahungu aho abakobwa bambaye amajipo ndetse abahungu bakaba bambaye amapantaro, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo bafite za mudasobwa ziteretse ku meza, bari mu nzu ifite amarangi y'umukara ndetse n'amakaro y'umweru.

Abana n'urubyiruko bari gukoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa harimo ab'igitsina gabo, ab'igitsina gore, abirabura, abazungu aho bari gukora ubushakashatsi bakoresheje mudasobwa bicaye ku ntebe imbere yabo hara impapuro.

Ibikorwa remezo harimo umuhanda, isoko hirya y'umuhanda, mu marembo y'isoko haparitse umumotari, abantu bari kugenda mu muhanda, hari n'undi uri gukora amasuku mu muhanda, kugira ngo arusheho kunoza isuku.

Abagabo batatu bari kumwe n'abagore babiri bose biga imbere bari gufata ifoto, bigaragara ko bari bari mu nama, inama isojwe inyuma yabo hakozwe n'ubururu wanditsemo n'amagambo y'iyo nama.

Umugore wirabura ufite umusatsi mikeya wambaye ikanzu y'idoma irimo amabara y'umweru wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari amayungururamajwi menshi bamuteze ngo bumve ibyo avuga, uyu mugore ni na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda.

Umugore udakuze cyane, ufite imisatsi mikeya, wambaye ikanzu y'umweru, isaha, impeta, wamanitse amaboko, imbere ye hari imbaga nyamwinshi y'abantu bategereje kumva icyo ababwira.

Imodoka nini itwara abagenzi isa ubururu n'umweru n'umukara harimo utuntu tw'umuhondo umugenzi wambaye itaburiya y'icyatsi aho abagenzi bicara bategereje ko imodoka ziza n'amazu ari inyuma .

Ibinyabiziga biri mu muhanda harimo ipikipiki ebyiri imwe itwaye umugenzi wambaye ishati n'ipantaro yatebeje, imbere yayo hari imodoka isa umweru iruhande rwayo hari amazu manini arimo aho bacururiza imiti, naho bakorera ibindi bikorwa remezo.

Umumotari wambaye ijire y'umuhondo n'ubururu ya emutiyene, yicaye kuri moto, ari mu muhanda wa kaburimbo, akikijwe n'ibiti n'amatara yo kumuhanda.

Imihanda ibiri ibusanye umwe uca munsi undi uca ruguru, harimo abanyonzi bahagaze abagenzi bari kugenda hirya yaho hari ibiti, hari ipoto ry'icyapa ribuza imodoka guparika n'ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo ibice bibiri, ufite amatara yo ku muhanda hagati, ufite ibiti biyikikije ku ruhande pasiparumi, indabyo, ufite inzira y'abanyamaguru, ufite icyapa kiyobora abantu mu kwambuka, ni icyapa kiranga icyerekezo cy'aho umuhanda ugana.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo ibice igice kimwe naho ibinyabiziga bigenda, ikindi naho biza ariko ibinyabiziga bibiri bya moto kimwe k'imodoka kiri kugenda n'ikindi kiri gutunguka iruhande rwayo hariho pasiparume.

Irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, iruhande rwe hari umufasha we nyakubahwa Jeanette Kagame, iruhande rwa nyakuhwa perezida wa repubulika hari idarapo, ku rundi ruhande hari umucamanza muri sitade Amahoro.

Mu muhanda nyabagendwa w'uruhurirane, harimo inzira ebyiri zibusanyije, ku ruhande rumwe harimo za pasparumo n'ibiti, ku rundi ruhande rwo hirya hariho amapoto, intsinga n'amazu abantu batuyemo n'abantu bari kugendamu muhanda.